Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko n'ipantaro y'umukara utebeje. Afite indangururamajwi, ari kuvuga asa nusobanurira abantu. Ubonako ar'imbere y'abantu ari kubigisha cyangwa kubasobanurira.

Urukarabiro rwubatswe na leta y'u rwanda rwubatswe mu rwego rwo kwimakaza isuku, ndetse no kurwanya indwara z'ibyorezo harimo na kovide cumi n'icyenda yaje ikazengereza isi igahitana benshi. ubu rero ni rumwe mu rukarabiro bwubatswe bitewe n'ibi bintu nk'ibi birimo n'ibyorezo.

Iki mubona kirimo umutuku n'umweru n'agapira kameze nk'umugozi k'umukara ni kimwe mu cyifashishwa mu kuzimya inkongi mu gihe inkongi yaba yateye ahantu runaka mu nyubako, iki rero ni kimwe mu cyifashishwa mu buryo bworoshye cyaterurwa byoroshye n'umuntu kitagoranye iyi rero yifashishwa mu kuzimya inkongi.

Moto nto zamapine atatu ziri mu zifashishwa mu gutwara imizigo itari myinshi cyane. Ariko zifasha benshi mu gutwara imitwaro kuko zikoranye uburyo bwatuma zitwara imitwaro myinshi yisumbuye kurenza moto zisanzwe tuzi. Kuko zo zibazifite igice kinyuma kandi gishobora gutwara imizigo myinshi.

Igare riparitse rifite umutwaro muto riparitse mu nkengero z'umuhanda aho abanyamaguru bakunda kunyura ryegamiye inzira y'abanyamaguru kuko ku rundi ruhande harimo ibinyabiziga nka moto kuko ari muri kaburimbo.

Iki ni icyapa cya mirongwine kizerutse n'umuzenguruko w'umutuku imbere n'umweru naho imibare ni mirongwine yanditswe n'ibara ry'umukara. Ibyo bivuze ko ntakinyabiziga kirenza umuvuduko wa mirongwine kw'isaha mu muhanda.

Inyubako nziza yubatse neza igeretse bigaragara kuba ari inyubako yakira abantu, abashyitsi b'impande n'impande mu gihugu cyangwa se no hanze y'igihugu, nkuko bisanzwe ibi ngibi birasanzwe mu kwakira abantu, hari amazu yabigenewe mu buryo bwo gucuruza.